Umugabo wicaye mu ntebe, yambaye umupira w'icyatsi, akaboko ke k'iburyo gafashe igikombe ndetse ak'ibumoso gafashe igitabo, ari guseka arishimye.

Umugabo utwaye imodoka. Arishimye cyane ari guseka. Yambaye ingofero y'umukara ndetse imbere ye hari amagambo agira ati:"Gendana icyizere buri ntambwe y'urugendo."

Umugore wambaye umupira, ufite ibara ry'ubururu ndetse ari gutanga pisi, afashe terefone mu ntoki ze, iriho pushete ijya kuba ubururu.

Umukobwa wicaye w'umuzungu. Ari kumedeta yafashe amaguru arayazinga ndetse intoki ze azishyira ku mavi. Arasinziriye, ari kuruhuka. Uyu munsi uwuharirire kwiyitaho no kuruhuka.

icyapa cyamamaza, gifite ibara ritukura, kiriho umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire, yambaye ikanzu, y'umukara. Iki cyapa kiriho, amagambo y'icyongereza yandikishijwe ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ingofero ndetse ari guseka cyane, afashe telefone mu kaboko ke k'iburyo ndetse ari kwitwereka, muri iyi telefone harimo amashusho arimo Sonarwa.

Icyapa gishushanyijeho imodoka ifite ibara ry'umutuku. Cyanditsweho amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umukara ndetse munsi hari ayanditse mu ibara ry'ubururu.

Umugore w'umwubatsi. Yambaye ingofero y'umuhondo, amarineti, ndetse n'ijire rifite ibara ry'icyatsi. Imbere ye hari amagambo ahanditse agira ati gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi, kiriho abantu batatu, umugore, umugabo ndetse n'umwana, ni abazungu bambaye imyenda y'imyeru hejuru ndetse barishimye cyane bari guseka.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'icyapa, babiri bambaye imyenda isa, imipira y'umweru n'amapantaro y'ubururu, undi mugabo yambaye umupira utukura ndetse afite icupa ry'amazi mu ntoki ze.

Icyapa cya britam kiriho umukobwa wambaye umupira w'ubururu uri guseka, afite umusatsi mwinshi ndetse yambaye umwenda w'akazi ufite imigozi ifashe mu ijosi.

Umukobwa wamamariza saniramu, yambaye ishati y'ubururu, agapira k'ubururu ndetse n'ipantaro y'ubururu, ari kwigorora ari guseka, yambaye amaherena ndetse umutwe we yawuhese.

Icyapa kiriho umugabo w'ummwirabura, ufite umusatsi muke ndetse uri guseka, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ifunguye igifungo cyo hejuru ndetse iki cyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Urupapuro rwerekana ukuntu amafaranga yagiye ajya kuri konte kongera avaho muri banki ya ekwiti n'amatariki yagiye aviraho n'igihe yagiye agiraho.

Umama uri mu iduka wambaye ishati y'amaboko magufi y'umukara, inyuma ye hari ibicuruzwa byo mu iduka uri gusuka bombo.

Ibikangara biboshye biri mu mabara y'umukara n'umweru n'umuhondo, biboheshejwe intoki, biteretse ku meza.

Iduka ricuruza imyenda, yiganjemo iy'abagore. Hari ibipupe byambaye imyenda, ndetse iri duka ririmo amakaro y'umukara ndetse n'umweru. Ndetse iri duka riri kwakamo amatara.

Amashati atondetse ku murongo akozwe muburyo bumwe ndetse angana ariko adahuje amabara aya mashati imwe ifite ibara rya kaki indi icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse n'izindi ebyiri zidasa n'izindi.

Imyenda bacuruza imanitse kuri maneke, hari n'itara hejuru ry'umweru harimo imipira y'umukara n'imipira ya orange igiye.

Iduka rigurisha imyenda, harimo akabati gateye ku gikuta, gafite ibara ry'umweru ndetse karimo imyenda igiye itandukanye izinze, imbere y'aka kabati hari igipupe cyambaye ikanzu y'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ingofero ya oranje ufashe ku modoka y'umukara uri kuyitunga intoki n'isaha ku kuboko.

Umugabo n'umugore bafashe icyapa gikozwe nk'urufunguzo, iki cyapa gifite ibara ry'mweru ndetse cyanditseho Akagera Motors, umukobwa afite agakapu afite agakapu gafite ibara ry'umutuku.

Imodoka igaragara ku gihande cy'ibumoso, iyi modoka ifite ibara ry'umweru ndetse imbere yayo hari izindi zisa nayo zihaparitse nyinshi.

Abagabo babiri bari imbere y'imodoka bafite igifunguzo kinini n'undi afite anverope kado y'umutuku, wambaye ikositimu y'umukara n'undi wambaye ipantaro ya kaki n'ishati y'amaboko magufi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, igaragara ku gice cy'imbere, iyi modoka icanye amatara ndetse ifite purake yanditseho Kigali ndetse imibare irahishe.

Inzu y'iduka rya Yundayi ifite imiryango y'umukara n'ibirahuri by'umukara n'amakaro y'umukara.

Imodoka nziza igaragara ku gice cy'inyuma, ndetse iyi modoka iri gukata, imbere yayo hari inyubako y'igorofa yubakishije ibirahuri...

Imodoka y'umukara igaragara ku gice cy'inyuma ndetse no ku gice cy'ibumoso imodoka ni nshyashya iparitse imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu babiri bahagaze, umwe ni umugabo yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'ubururu, undi yambaye ishati ijya kuba umweru, yambaye agapfukamunwa k'umukara; bafashe icyapa cyanditseho Yundayi, inyuma yabo hari imodoka.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, yitwa kwasiteri ndetse iparitse ahantu hari imbuga nini ndetse iruhande rwayo haparitse izindi.

Inoti y'ibihumbi bitanu ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse yanditseho amagambo agira ati; banki nkuru y'u Rwanda, amafaranga ibihumbi bitanu. Iyi noti ishushanyijeho ingagi.

Abagabo babiri barahagaze umwe n'umukozi wo muri banki, undi azanye amafaranga cyangwa aje kuyabikuza bari kuyamubarira bakoresheje akamashini kabugenewe.

Umuntu uri kugaragara akaboko gusa, gafashe ku mafaranga menshi azinze; iruhande rwe hari akamashini kabara amafaranga. Aya mafaranga ni ko kayabaze.

Inoti y'igihumbi yo mu Rwanda, iriho inkende n'ikirangantego cy'u Rwanda, yanditse mu cyongereza, hejuru no hasi.

Umugore w'umwirabura ufite umusatsi muremure ndetse yambaye umwenda w'umutuku, afite ikaramu mu ntoki ze ari kwandika, imbere ye hicaye umugore uri gukora muri banke ndetse bagiye kumuha ibyo bamaze kuzuza.

Iduka bacururizamo amata hateretsemo icyuma cya cy'amata giteretse ku kabati, indobo iririmo keke na za seriviyete.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo amata n'ibyo kunywa bya ji z'inyange ya dayari ikusanyirizo ry'amata.

Umugore wambaye ingofero ndetse yambaye ikanzu idoze mu gitenge. Afite akabido mu ntoki ze, ari kugafunga neza ndetse iruhande rw'aka kabido hari teremusi.

Umuntu ufite icupa rya yawurute mu ntoki rifite amagarama magana abiri mirongo itanu ikozwe mu nkeri y'uruganda rwa mukamira.

Inzu ifite umuryango ufunguye hahagazemo umukobwa wambaye ikanzu itukura, imbere ye hari ameza ateretseho akabido k'umweru ndetse n'igikapu cy'umukara.

Umugore wambaye ikanzu itukura irimo amabara y'umuhondo makeya. Ndetse afashe ku gikuta ari kwerekana ibintu byanditse ku gipapuro giteye ku gikuta inyuma ye hari icyuma cyifashishwa mu kubika amata igihe kirekire.

Abagabo babiri, batsikamiye imeza, umwe yambaye lakosite y'umweru, n'undi y'umukara, bari kureba udupapuro, duteretse ku meza.

Muri banki. Harimo intebe nyinshi ziticayeho abantu, hari umuntu umwe uhagaze aho bakirira abantu ndetse imbere harimo undi uri kumwakira. Bose ni abagore. Aha ni muri banki yitwa Kopedo.

Abantu bari kujya kuri wesitani yuniyoni, harimo abambaye umupira w'umutuku, bambaye ishati y'umweru, abagore n'abagabo biri imbere yayo.

Icyapa cyamamaza cya MTN momo, cyerekana uburyo bakoresha ukanze akanyenyeri gatandatu, karindwi, rimwe, urwego; kiriho abamama n'umugabo bafite terefone.

Ikiganza cy'umwirabura gifite inzara zisize ibara ry'umweru ndetse iki kiganza gifashe telefone igezweho, irimo ibara ry'icyatsi ndetse n'ibara ry'umweru.

Icyapa cyo kwamamaza cyerekana uburyo wabitsa amafaranga yawe onurayine ukoresheje banki za A&M, hakaba inyuma yaho hafite ikirangantego cy'umweru.

Seritifika yerekana yuko wishyuye nta mwenda ufitiye Rwanda Revenue yerekana ko wishyuye umusoro wose, umusoro uriho kashe, ikirangantego cya Rwanda Revenue.

Urupapuro rwerekana umusoro w'umuntu yishyuye, bikaba byarakorewe muri Nyarugenge, aho Rwanda reveniyu.

Umuntu ufite amadolari ijana mu ntoki n'andi afashe , kuruhande hateretse karikireta byose biteretse ku meza y'umukara.

Ibiceri by'amadorari n'inote z'ijana z'amadorari n'iz'amapawundi z'ijana ziteretse hasi ku meza.

Ikiganza gifashe inoti, izi noti ni nyinshi ndetse zirarambuye, izi noti zanditseho mirongo itanu, byandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse hari na mirongo itanu byandikishije ibara ritukura.

Amafaranga ateretse hasi abantu bayafasheho harimo amadolari n'ama ero afashwe n'abantu bera.

Abantu babiri bari guhererekanya amafaranga y'ijana ijana ry'amadorari hariho ikirahure hagati yabo, undi afite amafaranga mu kundi kuboko kw'ibumoso.

Inzu bavunjishirizamo yitwa dukomere, ifite umuryango w'umweru n'ibyapa biri mu amabara y'umweru, umutuku imbere yabyo.

akazu karimo uburyo bwo kohereza no kwakira amafaranga kuburyo bwa online banking buri mu mabara y'umuhondo n'ubururu n'ibyapa by'amabanki.

Umukobwa aricaye mu kazu ka eyateri mani, wambaye umupira w'umweru urimo imirongo w'imikara, wambaye na rinete.

Inzu bavunjishirizamo izwi nka folegisi, ikinze ifite marido y'umweru n'umutuku n'imiryango y'umukara iri kwakamo itara.

Icyapa cya folix biro cyerekana uburyo bavunja amafaranga mu bihugu bitandukanye kobayavunjira kuyagurisha no kuyagura.

Inzu ifite ibara ry'umukara n'umweru ku rukuta n'umutuku hejuru hari kwaka amatara y'umweru hamanitse na kamera.

Inzu ikorerwamo ivunjishwa ry'amafaranga, aha bagufasha kubona amafaranga yo mu gihugu kimwe, ugatanga ayo mu kindi ndetse hariho ibyapa byamamaza, byerekana yuko aribyo dukora.

Inzu bavunjishirizamo amafaranga izwi nka volegisi biro iri mu kirango cy'amabara y'icyatsi na hirya yaho hari ajanse yohereza ibintu Rubavu, Kigali, Kampala.

Inzu bavunjishirizamo amafaranga y'amanyarwanda mu yandi y'amanyamahanga ifite umuryango w'umweru n'idirishya, n'aho bata imyanda imbere yayo n'icyapa hejuru.

Icyapa kiriho amadarapo y'Ibihugu byinshi, iki cyapa cyerekana ivunjisha ry'amafaranga uko rihagaze, ushobora kureba uko ugiye kugurisha ifaranga ndetse n'uko ushobora kurigura.

Abantu babiri bari guhana amafaranga. Ntabwo bagaragara neza, ndetse umwe ari mu nzu imbere, undi ari hanze. Batandukanyijwe n'ikirahure. Bari guhana amafaranga y'amadolari ashushanyijeho umugabo ufite umusatsi muremure.

Inzu irimo amakaro, irimo akabati keza gafite ibara ry'umweru ndetse gateretseho agatako, imbere y'aka kabati hari ameza nayo afite ibara ry'umweru ndetse n'ibara rya shokora ku mpande.

Intebe zifite amabara atandukanye, ndetse imbere y'izi ntebe hari ameza akozwe mu rubaho, ndetse izi ntebe ziteretse ahantu hari ubucaca.

Intebe nziza zikozwe mu biti, ziriho umwenda aho abantu bicara ndetse zizengurutse ameza ateretseho ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, iruhande hari akabati gasa n'izi ntebe ndetse n'ameza.

Akabati keza gakozwe mu buryo bugezweho ndetse kari mu nzu irimo amakaro y'umweru ndetse igikuta cyaho na cyo gisa umweru, ku mpande no hejuru.

Imbere yinzu ahantu hateretse imeza y'umutuku nintebe enye ziyizengurutse z'umukara intebe ifite igitambaro cy'umutuku hirya hari n'ibiti.

Inzu ya etage ifite pisine imbere yayo, ifite amatara amurika hasi, ifite n'amapoto ajyaho amadapo y'ibihugu imbere yayo n'uzitiro.

Aho bogera hafite ibara ry'ubururu harimo n'imirongo y'umukara, ihagaze n'itambitse, imbere ye hari ahasakaye n'amabati y'umutuku.

Inzu ifite ibara ry'umweru, n'amadirishya ya fime, afasheho ku nkuta, ibyuma, hirya hari urundi ruhande rusa oranje.

Icyumba cyo kuryamamo kirimo ibikoresho byose gifite igitanda cy'umweru, televiziyo ku rukuta intebe amatara y'umweru.

Inyubako y'igorofa ifite amabara yiganjemo ay'umuhondo, iyi nyubako imbere yayo hateye ibiti birebire ndetse hariho n'amatara akoreshwa nk'ibimenyetso byo mu muhanda.

Umuntu uhagaze kuri resebusiyo imbere ye hateretse imashini, wambaye kositimu hejuru hari kwaka amatara y'umweru inyuma ye hateye ibara ry'umukara.

Inzu irimo amakararo hateretsemo intebe ndetse imbere y'iyi ntebe hari utumeza tubiri, ku gikuta hari televiziyo ndetse n'akabati gatoya gateye ku gikuta.

Icyumba k'inama giteguye neza. Iki cyumba kirimo ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse aya meza akikijwe n'intebe zifite ibara ry'umukara ndetse iki cyumba cy'inama kiri kwakamo amatara.

Inzu y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amategura hejuru. Iyi nzu iriho imireko imena amazi hasi; imbere y'iyi nzu haparitse imodoka ebyiri.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ni igorofa, iyi nzu ifite irangi ry'umweru, ndetse imbere yayo hateye ubusitani, ubu busitani burimo indabo nziza.

Abantu bambaye imyenda y'imyeru ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, bose bari kuzikoresha; imbere hari umugabo uri gutambuka, na we wambaye ishati y'umweru n' ipantaro y'umukara.

Inzu ikoreramo ikigo cyitwa UAP. Iki kigo cyandikishijwe ibara ry'umweru ndetse mu ruziga rw'umutuku. Iyi nzu iteye irangi ry'umweru ndetse n'umutuku. Umuryango w'inzu urafunguye.

Abagabo bambaye amakoti ya kositimu, bamwe bambaye na karuvati, uri imbere yabo yambaye rakosite y'umukara n'ingofero y...

Abagabo batatu bahagaze. Umwe ari gucuruza, yambaye ishati y'umweru ndetse n'ikarita y'akazi, ayambaye mu gatuza. Imbere ye hari uwambaye umupira utukura, ndetse n'undi wambaye ikoti.

Inzu ifite amabara y'ubururu n'umweru, ikorerwamo purayimu, muri buranshe ya kicukiro, harimo na noteri wikorera, icyapa cye...

Icyapa cyo kwamamaza kiriho umukobwa wambaye imyenda y'umukara, nishati y'umweru, hariho na nimero za terefone wabasanga aho, aho bakorera cyangwa kubabaza ibindi.

Abaturage biganjemo abisilamu b'abagore, barahagaze ndetse bakoze utuzeru, imbere yabo hari akabogisi gahari ndetse bari gushyiramo amajwi.

Inzu iteye irange ry'ubururu ndetse n'umweru ifite umuryango ufunguye ukoreramo Ayi endi emu banki. Iyi ni banki ikorerwa ikorera mu Rwanda.

Umugore uri ku cyapa ufashe terefone mu ntoki ze, ari guseka cyane ndetse yiteze igitambaro cy'umweru yambaye n'agapira gasa umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho banki ya Ekwiti ndetse gishushanyijeho imodoka ifite ibara ritukura ndetse yegamiweho n'umukobwa wambaye inkweto ndende z'umukara, ipantaro y'umweru n'ikoti ry'ubururu.

I&M bank iri gushaka abakozi bo guha akazi, muri pozisiyo ya inverinoma sayatereji managementi sasifike, bikaba ibyo bintu bizaba tariki cumi n'enye z'ukwa...

Icyumba giteguye neza, iki cyumba kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umweru, kirimo ibipiriza bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, iruhande hari agapfunyika karimo indabyo.

Icyapa cyerekana uburyo amatike bayamanuyeho mirongo itatu ku ijana, n'ukuntu ubona itike yawe uno munsi muri BK Arena.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo. Ifite umuryango ufunguye, hejuru y'uyu muryango hariho icyapa cyamamaza cyanditseho Kopedu. Byandikishijwe ibara ry'ubururu.

Abagore bari gucuruza harimo umwe uri guseka wambaye isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umuhondo ari gupima urusenda rutukura iruhande rwe hari intoryi ndetse ugarutse hino hari insenda zindi zimwe z'icyatsi ndetse n'izindi za oranje.

umugore witeze igitambaro mu mutwe ari guseka yambaye ishati iciye amaboko y'umutuku ndetse yicaye ku ntebe imbere ye hari imineke itomati intoryi ndetse n'ibindi.

Umugore wicaye imbere y'imashini idoda n'umwicaye iruhande n'umugabo uri gusohoka.

Umugore uhetse umwana ateze igitambaro imbere ye hari imboga z'amashu ndetse inyuma hari itomamati, uyu mugore acuruza mu isoko.

Inzu y'ubucuruzi imbere hari urujya n'uruza rw'abantu, n'amamodoka hari abamotari baparitse imbere n'abamama bari gutambuka umwe yitandiye n'undi ahetse igikapu.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka ziparitse ku ruhande ndetse uyu muhanda uri kugendamo moto, iruhande rw'umuhanda hari inzu ihari irimo ibyapa byamamaza.

Umugore wambaye imyenda idoze mu bitenge, ndetse ateze igitambaro gisa n'imyenda yambaye. Imbere ye hari itomati, karoti, amashu, ibirayi, ndetse n'ibindi.

abantu bari mu isoko bari gucuruza imboga, izi mboga zirimo intoryi, imiteja, itomati, ndetse n'ibitunguru, hari n'ibitonore.

Umuhanda urimo moto iruhande rw'uyu muhanda hari abantu benshi ndetse haparitse n'imodoka, iruhande rw'izi modoka hari inyubako y'igorofa iriho ibyapa byamamaza byinshi.

Umugabo uri mwi isoko wicaye yambaye ikoti ry'umukara n'ingofero yicaye imbere y'imyumbati n'umugore wicaye hasi wambaye ikoti ry'umutuku.

Umugore uri gucuruza n'undi uri kugura wambaye umupira wa oranje n'agakapu k'umukara mu ntoki n'umugoreufite ibibodi mu mutwe.

Abantu batonze umurongo abagore n'abagabo, umugore yambaye umupira wa maboko maremare w'umuhondo n'igitenge, hirya ye hari intebe.

Abagore babiri. Bose biteze ibitambaro, umwe ari kubara amafaranga ndetse undi ari kumureba. Imbere yabo hateretse amagi menshi ndetse bigaragara ko bari kuyacuruza.

Inkweto zisutse hasi, izi nkweto zifite amabara y'ubururu, ay'umuhondo, ay'umweru ay'icyatsi n'andi atandukanye, izi nkweto ni bodaboda, hejuru hamanitse ibikapu bifite amabara y'imikara.

Inzu y'isoko icururizwamo imboga n'ibindi bijyana nazo ndetse hamanitse n'udufuka two guhahiramo, hari kunyuramo abantu batandukanye.

Kode ihabwa abacuruzi, iyi kode itangwa na MTN kugira ngo ibashe kwishyurirwaho amafaranga abacuruzi baba bagiye kwishyurwa; ntabwo bagukata iyo uyishyuyeho.

Akazu ka MTN karimo umuntu wambaye rakosite y'umweru na shokora, uri kwandika, imbere ye hari umukiriya wisukishije uri kwakira amafaranga.

Abagabo bari kuri sitandi ya MTN, harimo abambaye ibirango bya MTN, ku myenda yabo ya rakosite z'umweru n'undi uri imbere yabo wambaye ishati

Utuzu tubiri twegeranye, kamwe ni ak'umutuku ka Eyateri ndetse akandi ni aka Emutiyene gafite ibara ry'umuhondo, twose turimo abakozi babo.

Umugore wambaye itaburiya y'umuhondo, ufite ikirango cya momo peyi mu ntoki, wambaye ingofero y'umweru.

Kode yishyurirwaho amafaranga. Iyi ni kode itangwa na MTN, igahabwa abacuruzi bikorera cyangwa bakorera leta. Iyi kode yishyurirwaho igiciro, ni buntu.

Inzu ikoreramo eyateli, ifite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku harimo abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze bari kwaka serivisi.

Akazu ka MTN na TIGO kari mumabara y'umuhondo, imbere yako hahagaze abantu batatu harimo uwambaye umupira w'umutuku n'undi w'umweru.

Akazu ka MTN kariho abantu bagakikije benshi, bose bari kwaka serivisi kuko abantu bakoramo imbere barahuze kugira ngo babakemurire serivisi, aka kazu gafite ibara ry'umuhondo.

Umuntu ufashe terefoni mu ntoki uri kwishyura kuri momo, akoresheje uburyo bwa momo.

Ikiganza gifashe telefoni mu ntoki ntoya ndetse bari kwishyura amafaranga kuri kode itangwa na MTN ifite ikirango kiri mu ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri bahagaze bari kumwe numukobwa wa mt wambaye umupira waumuhondo wa MTN n'umugabo uri hirya ye wambaye umupira w'umutuku.

Abantu bahagaze imbere y'akazu ka MTN gafite ibara ry'umuhondo, muri aka kazu harimo umukobwa ndetse ari kuvugana n'abo bantu bahagaze hanze.

Uburyo bwo guhaha bwo kuri online bwerekana ibiciro n'igicuruzwa ugiye guhaha, hariho abakobwa n'imyambaro bagurisha n'ibindi bikoresho.

Inzu y'igorofa ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye, iriho icyapa cyanditseho iposita; imbere y'iyi nyubako hari imodoka nyinshi ndetse na moto na byo bifite ibara ry'umuhondo.

Umukobwa uri ku cyapa cyamamaza amavuta, amavuta ari mu bwoko butandukanye y'umubiri abasha kugira uruhu neza kugira ngo abantu azabagwe neza.

Icyapa cyerekana y'uko ibiciro byagabanyijwe byavuye ku bihumbi mirongo itandatu na birindwi magana atanu, bigezwa ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu na bine magana atanu.

Uburyo bwa Kiku, uburyo bwa Kiku bwo guhaha bwerekana ibicuruzwa n'amazina yabyo n'amafaranga wabibonaho ukabasha guhaha bikoroheye utavuye mu rugo.

Icyapa kiriho cyamamaza gifite kiriho ameza yo muri ofisi n'inzu ya etaje iriho iherereye muri gisimenti ifite nimero yo guhamagara.

Urupangu rurangaye rurimo inzu Kanombe Kigali iri kugurishwa ifite amabara y'umweru n'amabati y'umukara, ikaba iri kugurishwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu.

Umugore n'umugabo bahagaze mu nzu, umugabo w'umuzungu n'umugore w'umwirabura bafashe ku meza y'umukara.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu y'ikoboyi yatebeje, imbere ye hari akabati gasize irangi ry'umweru ndetse inzu karimo na yo isize irangi ry'umweru.

Urupangu rufunguye rufite ibara ry'umukara nurukuta rufite amatafari ahiye n'inzu ifite amadirishya abiri agaragara n'amabati y'umutuku.

Inzu igeretse ifite amadirishya n'imodoka imbere yayo y'umutuku ihagaze mu rupangumbu urupangu rurangaye.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo n'umuzungu yambaye ishati yumweru ihinnye amaboko ndetse n'ipantaro y'umukara. Umugore yambaye ikanzu irimo amabara agiye atandukanye iruhande rwabo hari intebe nziza zifite ibara ryumweru ndetse na tereviziyo iteretse ku kabati.

Igikoni gifite amabara y'umweru n'umukara, hateretsemo n'akavaze k'ururabo, hari kwakamo itara, hejuru hari parafo y'umweru.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo ni umuzungu, umugore ni umwirabura, imbere yabo hari intebe nziza ndetse imbere yazo hari ameza.

Umugore n'umugabo bahagaze imbere ku ibaraza umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umugore ari kugenda amusanga.

Icyumba kirimo igitanda gishashe neza, hariho imisego ibiri, ifite amashuka y'umweru ndetse n'isume iteretse ku gitanda; iki cyumba kiriho amarido afite ibara ry'umuhondo ndetse na oranje bivangavanze.

Inzu ifite umuryango ibumoso w'umutuku n'ibirahurire bya fime n'idirishya impande, imbere hari n'ahantu hateye ibyatsi.

Inzu eshatu z'amagorofa, ziri mu bipangu bitandukanye, izi nzu zirakodeshwa, ziherereye Kibagabaga, Kigali, zifite imbuga nini ndetse hateyemo n'ubusitani.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara agiye atandukanye ndetse imbere yayo hari imbuga nini isa neza, iyi nzu iragurishwa ndetse iherereye i Kanombe.

Urupangu rufunguye, rufite ibara ry'icyatsi ndetse uru rupangu harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma ye hari inzu nziza, yubatswe muburyo bugezweho.

Inzu iri gukodeshwa Kimironko i Kigali ifite ibyumba bibiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu, ifite porotaye y'umukara n'amabati y'umutuku.

Inzu ya etaje ifite ibiti ku ruhande, ifite inkingi z'umweru na parikingi.

Inzu ya etage iri kugurishwa ifite amabara y'umweru n’umutuku imiryango y'umweru ifite ibirahure bya fime na parikingi.

Umugabo uri imbere y'inzu, yambaye ishati y'umweru, urambuye amaboko, inyuma ye hari urukuta rw'umweru, n'inkingi ihagaze inyuma ye, n'amakaro y'umweru.

Umupolisi n'umusirikare bari imbere y'imashini, iri kureba mu mumashini, umusirikare wambaye, umukobwa wambaye isaha uri kureba mu mashini y'umupolisi, bafite ikirangantego.

Inzu y'iduka irimo ibiribwa harimo n'abakozi babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye ishati y'umweru...

Imeza y'umuhondo iriho terefone n'utuntu bahagarikaho terefone ziri kugurishwa, n'icyapa cya tubitayeho, n'ukuntu wagura amamega yawe.

Iduka ricuruza imikandara y'abagabo ndetse n'abasore, harimo iminini n'imitoya ndetse hari inkweto z'abagore zimanitse, aha ngaha hari n'izindi ziri ku ruhande rw'inyuma.

Iduka ry'ubucuruzi rifite ibicuruzwa bimanitse, harimo umuntu wambaye ishati y'umuhondo uhagaze afite n'amakara y'umweru hasi n'amatara yaka umweru.

Abagore babiri bari mu isoko, umwe wera n'undi w'umwirabura, umwirabura ari gucuruza imbuto n'imboga.

Aha abantu bari mu isoko ry'ibyombo, hirya hateretse ibyombo, amasafuriya, ibisorori, n'umumama wambaye ishati y'umukara, ishakoshi y'umutuku.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, ari gupfunyikira umukiriya muri amverope ndetse inyuma hari icyapa cyanditseho ngo murakoze, ari gushimira umukiriya.

Abagore bahagaze imbere ya contwari bari gucuruza harimo umugore witandiye n'undi uri imbere ye uri kumureba uri kureba ibicuruzwa.

Abantu b'abirabura barimo abagabo ndetse n'abagore, barahagaze ku murongo umwe ndetse abagabo bambaye amakote abagore ni babiri, inyuma yabo hari ibyapa byamamaza byanditseho RSCB.

Icyapa kiriho abantu babiri ni umusaza n'umukecuru bari guseka barishimye ndetse bafatanye amaboko, umusaza yambaye ishati irimo imirongo ndetse umugore yambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze bari kureba imbere y'inyubako, hari aho bari kubagezaho ibiganiro abandi bicaye inyuma yabo ndetse bitwikiriye imitaka, imbere yabo hari icyapa cyanditseho ejo heza.

Umuntu ufite mituweri ebyiri mu ntoki, inyuma ye hari intebe n'urukuta rw'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye ishati, imbere ye hari kontwari iteretseho terefone, ufite icyapa cya RSSB mu ntoki.

Amashusho y'abana y'amafoto bometse hasi kumeza ariho na terefone n'ikaramu iteretse ku meza n'icupa ry'amazi n'umwana.

Abakobwa babiri bafashe icyapa cyanditseho ngo umunyamuryango ku isonga, umwe muremure n'undi mugufi inyuma yabo harimo.

Iduka ririmo ibikoresho n'ibiribwa, rifite amakaro, rifite amabara abiri, hejuru hari n'amatara y'umweru ari kwaka.

Iduka ricuruza imbuto ndetse n'imboga. Zipanze neza mu makarito yazo ndetse n'izindi zipanze mu bitebo. Harimo inanasi, harimo itomati, harimo indimu ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati n'agapfukamunwa k'umweru, afashe agapfunyika mu biganza bye ari gusoma, ndetse imbere ye hari umukobwa wambaye agapfukamunwa k'umukara, ndetse amuhanze amaso.

Firigo zometse ku rukuta zirimo ibyo kunywa Fanta, Sitoro, Koka, Oranje, amazi, amaji maremare, imbere yaho hari akabati karimo amaji yo kunywa maremare yo mu macupa.

Umukobwa wambaye amarineti ndetse afite ibisuko by'umukara, yambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu ndetse mu kaboko ke k'iburyo kambaye ishashi. Ari aho bahahira ndetse ari gufata ibintu, imbere ye afite inanasi iri mu kagare bahahiramo.

Umusore n'umukobwa bahagaze. Umukobwa afite ibisuko birebire ndetse yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara. Ari gutungira agatoki uyu musore amwereka.

Umukobwa wambaye ikoti ry'umukara ndetse yambariyemo n'agapira k'umweru, ari gusunika akagare, amaze guhaha inanasi, itomati, intoryi, amashu ndetse n'ibindi.

Umukobwa ufite umusatsi uzinze, afite agakapu ku rutugu rwe k'umweru, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi, ari kureba ibintu byinshi biri imbere ye ibyo yagura.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo amakaro y'umweru na etajeri zirimo ibicuruzwa, harimo ibicuruzwa byaguye hasi hakakamo n'amatara y'umweru.

Inzu ikoreramo alimentasiyo, iherereye Kicukiro yitwa Simba. Iyi Simba iba aho bita Sonatibe ndetse ifite amakaro ashashagirana cyane.

Icyumba cy'ubucuruzi gicuruza imboga n'imbuto, harimo umuhungu uhagaze uri guhaha, wambaye ijesi y'umweru.